Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Biragaragara ko hano hantu hacururizwa imyenda ndetse kandi akaba ari ahantu hari amakaro y'umweru hakaba hari amatara meza cyane ndetse hakaba hari n'inkingi nziza z'umweru ndetse nkaba ndimo mbonamo imyenda isa umutuku ndetse n'indi ifite amabara agiye atandukanye.

Aha ndahabona ibipupe bambitse imyenda igiye itandukanye, aho byose byambaye neza bigaragara ko iyi myenda irimo iragurishwa, ubaye ufite amafaranga ukaba wagenda bakaba baguha umwenda umwe washimye muri yose iri kuhacururizwa, maze nawe ukishyura ku giciro cyiza, cyo bifuza.

Iby'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Ahantu bigaragara ko hari imodoka; ndetse iyo modoka imbere yaho hakaba hari abagabo babiri, umwe wambaye ishati n'ipantaro ndetse n'undi wambaye umupira n'ipantaro; bigaragara ko mu ntoki yabo afitemo ebiji, ndetse kandi bikaba bigaragara ko aba bantu hari icyapa bafite mu ntoki cyanditseho akagera.

Aha hantu bigaragara ko hari imodoka ebyiri, ndetse izo modoka ebyiri zikaba zisa umukara, ndetse nkaba mbona imbere y'aho hari icyapa cya yundayi, bikaba bigaragara ko aha ngaha ariho ikigo cya yundayi gikorera mu Rwanda.

Aha ndahabona imodoka yo mu bwoko bwa mahindura, akaba ari imodoka yakozwe n'uruganda rw'abazungu, ndetse ndahabona abantu batandatu, bose basa nkaho bishimye, batatu muri bo bafite udukapu dusa umutuku, ndetse ni abagabo.

Itangazo ry'inama ikomeye izaba iri kuvuga kubirebana n'ikoranabuhanga; izabera i Kigali mu Rwanda ku itariki makumyabiri n'enye kugeza makumyabiri n'esheshatu gashyantare bibiri na makumyabiri na gatanu, rikaba ryashyizwe hanze n'ikigo cy'imyuga gikunze kwitwa RDB.

Aha ndahabona isahane iriho amandazi menshi bigaragara ko irindazi rimwe barisatuyemo kabiri ndetse kandi aya mandazi bikaba bigaragara ko umuntu wayakoze yayakoze neza kandi akaba aryoshye.

Ndahabona inoti bigaragara ko ari inoti yo muri Tanzania ndetse bikaba bigaragara ko ari amashiriningi magana atanu yo muri Tanzaniya akaba ariho umuntu ndetse kandi bikaba bigaragara ko iyo onoti ari iyo mu gihugu cya Tanzaniya.

Aha ahantu ndahabona intebe nziza cyane ziteye ubwuzu n'amabengeza ziri ahantu hameze neza, ndetse nkaba mbona inyuma hari imitako itatu y'umukara urukuta rw'umweru. Ndetse nkahabona hepfo hariho urukuta ruriho amatafari ahiye.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Aha ni hantu bigaragara ko ari ahantu heza cyane hateguwe, hari intebe nziza zigiye zitandukanye ndetse n'imisego myiza, bigaragara ko aha ahantu habamo abantu bafite isuku, ndetse kandi bikaba bigaragara ko ari ahantu hiyubashye.

Aha hantu ndahabona neza bikaba bigaragara ko ari ahantu hateguye ndetse ko aho hantu hakaba hateguwe intebe eshatu n'igitambaro cy'umweru ku meza manini cyangwa se magari hakaba hari n'ibinyobwa, ibirahuri bigera kuri bitatu ndetse hakaba hari n'icupa ririmo inzoga bikaba bigaragara ko hari igikorwa cyiza kigiye kuhabera.

Aha ndabona amasahani y'umweru ameze neza cyane, bigaragara ko ari nk'ikinyobwa kunywa, ndetse kandi kuri ayo masane y'umweru hakaba hariho ibiryo byiza cyane byo kurya, ndetse bikaba bigaragara ko byatekewe ahantu heza cyane cyane.

Aba ni abagore basa nkaho bishimye ndetse bigaragara ko hari umuzungu wambaye fime z'umukara, ndetse kandi bigaragara ko imbere yabo hari ibicuba bitanu, ndetse bigaragara ko ari n'umugore umwe uciye bugufi hagati y'ibyo bicuba.

Ahantu bigaragara ko hari umucuruzi urimo aracuruza ibiribwa bigiye bitandukanye aho ndimo kuhabona inyanya, imineke ndetse n'amashaza ndetse nkaba ndimo no kubona uyu muntu asa nkaho arimo gutunga agatoki ahantu runaka .

Umuntu bigaragara ko ari muri kiyosikr ya emutiyene aho bigaragara ko ari guhabwa serivisi za emutiyene mu buryo bugiye butandukanye.

Abantu benshi bari mu nyubako harimo abakozi bacuruza amafunguro ndetse n'ibyo kunywa hakaba hari n'umuntu uhagarariye emutiyene ari kumwe n'umukiriya ari ku mubwira serivisi zigiye zitandukanye za emutiyene n'akamaro zigufitiye .

Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gutwara ibintu cyangwa se ibicuruzwa ku buryo bworoshye ushobora gutwara ibintu cyangwa ibicuruzwa wifashishije imodoka zabugenewe cyangwa se ukifashisha moto ntoya ijya kumera nk'imodoka ariko nayo ikora nka moto mu ruhande rumwe ariko na none ku rundi ruhande igakora nk'imodoka .

Umukobwa mwiza ufite ibisuko wambaye umupira w'umutuku, akaba imbere ye hari mudasobwa, akaba ari kureba ibiciro by'ibicuruzwa.

Ndahabona umuntu ukorera Kasha uru akaba ari urubuga utumaho ikintu cyawe aho uri hoseba bakikuzanira utavuye mu rugo igihe wakiguze ahantu runaka, bikaba bikunze gukoreshwa cyane cyane mu mujyi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

inzu nziza bigaragara ko ikodeshwa ikaba iherereye ikibagabaga aho ubaye ufite amafaranga wagenda mukavugana bakaba bayikodesha ku giciro cyiza ushaka ukajya ubishyura buri kwezi iyo nzu bigaragara ko igeretse inshuro imwe.

Inzu ifite parikingi nziza ndetse na jaride nziza bigaragara ko irimo iragurishwa iyo nzu ikaba igeretse ndetse ikaba ifite imiryango y'umweru n'ibirahure bitabonerana iyo nzu ikaba isize irangi ry'umweru ndetse n'irindi rangi rijya gusa umutuku ariko atari umutuku cyane.

Aha ndahabona aparetoma zo gukodesha akaba ari ahantu wagenda ugakodesha ukararamo cyangwa se ukaba wajyukoreramo ibintu bitandukanye ,bikaba bigaragara ko ari ahantu heza cyane kandi hasukuye .Inyubako isa neza cyane bigaragara ko ariy'abantu bakomeye kandi nabo basa neza.

Aha biragaragara ko ari inzu igurishwa iri i kanombe, bikaba bigaragara ko iyi nzu ifite aho waparika, ndetse iyi akaba ari inzu nziza imeze neza; niba hari uwaba ufite amafaranga, bikaba bigaragara ko yagenda akayatanga, ndetse bakaba bamuha iyo nzu.

Ahantu bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi ndetse hakaba hari n'ibipupe byambitse imyenda bigaragara ko ugurishwa ubaye ufite amafaranga wagenda bakaba babiguha ukaba wabigura maze ukabishyura ku giciro cyose mwavuganye.

Aha bigaragara ko ari isoko ry'indabo, aho bacuruza indabo zigiye zitandukanye ndetse nawe waba ufite amafaranga wagenda ukajya gushakirayo indabo zo gushyira mu nzu ndetse n'ahandi hantu hawe hagiye hatandukanye kugirango uharemere ubwiza bwa nyabwo.

Aba ni abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bicaye ku nzu yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko imbere yabo hari umugore uri kubaha impapuro zisa umweru ndetse hirya hakaba hariho ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.